Imiti zicaga udukoko. Udukoko tuzaga mu myaka zidufasha gutuma imyaka zikura neza. Tugahinga kijambere, tugasarura heraga neza iyo twateye imiti yicaga udukoko. Ibigori n'ibirayi, ntibizemo indwara. Ntandwara zizagamo iyo twashizemo ugo muti gwicaga udusimba.

Tugiramo ifumbire y'imvaruganda idufasha mu kuhira no gutera imyaka habaho ifumbire y'umweru imeze nk'urugo ariko tuba ari dutoya, iyo tuyikoresha turi kuhira ibigori turayifata tukambara ga mu ntoki turi gushyira ku bigori tukajya dushyiraho gake gake twarangiza tukuhira kugira ngo ibifashe ibigori byacu neza.

Iyo duhinze imyaka zacu tuburaga umuti go gutera imyaka cane nk'ibirayi. Hari umuti gwabigenewe guteza ibirayi bikiri bitoya, kugira ngo bitazuma, bigakura neza. Nk'umuti go gutera ibirayi guguraga amafaranga makeya, ntabwo gabaga ari menshi. Iyo uhinze ibirayi rero uguraga umuti go guteramo.

Iyo duhinze imyaka, cane cane nk'ibigori, n'amasaka, tuguraga umuti go gutera, mu myaka kugira ngo zitagira udukoko, cane cane nka Shokonkwa. Shokonkwa ziryaga ibigori ugasanga ibigori byagiyemo Shokonywa bikiri kumera, byaja guheka ugasanga ni Shokonkwa gusa, zigakura zigakura zikaja mu bigori, ugasanga ntibyeze neza.

Imiti zicaga udukoko mu mbuto no mu myaka zisanzwe. Nko mu mbuto nk'imiti zicaga udukoko tuzaga mu mashu, tukaza tukaza mu miteja, tukaza muri karoti mu myaka zisanzwe mu bigori, mu bishimbo, mu birarayi, tuguraga imiti zo guteramo kugira ngo imyaka zikure neza.

Bategura imiti yo kwica udukoko tuza mu myaka, iyo miti iba ifite ubushobozi bwo kwica mikorobe zose zishaka kuza mu myaka tuba twarahinze. Nk'ibigori, bikunda kurwara nkongwa n'ibirayi bigakunda kurwara cyumya. Ibyo byose tugura imiti yo kubishyiramo...

Ifunguro ry'indyo yuzuye turitegura dushyizemo inyama, tugashyiramo imbuto, tugashyiramo ibitunguru, dushyiramo n'imineke, tukarya indyo zuzuye tukagaburira n'abana, natwe tukaryaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Gutegura amafunguro gacu gatandukanye duteguragamo amafunguro nk'ibirayi tukabikaranga neza tugateka n'inyama ,tugashiramo ibitunguru tugashiramo na za salisa, tugafata agasosi tukagasuka mu biryo tukarya tukumva biraryoshe; tukagabura n'abana nabo habaga harimo n'intungamubiri ibiryo bibaga birimo izo nyama.

Kurya indyo zuzuye, dutekaga imboga, tugateka amafi, tugateka n'inyanya, tugateka n'imbuto na zo zo gutegurwa ku meza, duteka n'umuceri. Ibyo biryo byose iyo bihari, biba byuzuye, indyo yuzuye, tukabirya, tukagaburira babana bakarya neza.

Ifi barariryaga, bagaburiraga abana ifi, abana bakagira intungamubiri, bakagajana no ku isoko amafi bakabaha amafaranga go kugura ibikoresho by'abana bakabijana ku ishuri bakiteza imbere. N'abataryaga amafi bakagagurisha bakabonamo n'agandi mafaranga.

Inyama ziturindaga indwara. Muri uko kurya inyama, turyaga inyama zitukura, inyama z'inka, inyama z'intama, inyama z'ihene, tugaha n'abana inyama kugira ngo zibarinde indwara.

Amafi turagaryaga ,tukagajana no ku isoko iyo twagaranguye abarobyi bagarobye bakagaturanguza, tugajanaga ku isoko abantu bakagahaha bakagaburira abana bakarya intungamubiri natwe turagaryaga kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Mu mafi aba mu kiyaga, abarobyi ba yo barayaroba, bakayajyana ku isoko, bayagezayo abacuruzi barayangura natwe tukajya kuyagura, tukayateka mu rugo, tukanywa agasupu, tukarya n'amafi, tukagira intungamubiri mu buzima bwacu akaturinda n'indwara.

Ibihingwa bitandukanye duhinga in'aha iwacu cyane cyane ibirayi. Dukunda guhinga ibirayi kuko bihera cyane, turabigurisha tukabonamo andi mafaranga yo kugura imbuto tugahinga, tukazagurisha tukaguramo ibyo dukeneye mu ngo zacu.

Ibihingwa byiganjemo imboga bidufasha kurya indyo yuzuye, tukajya no kugurisha imbuto ku isoko harimo nk'ibihaza bino by'ibishayote tubigurisha ku isoko, abatabifite bakabigura na bo bagateka imboga bakarya intungamubiri, tukarya indyo yuzuye twese.

Hariya iwacu mu bihingwa duhingaga harimo ibirayi hakabamo n'ibijumba bidufashaga mu kwihaza mu biribwa, ntitugire inzara, tukaja no kugurisha ku isoko, tukabonamo amafaranga, tukaguramo n'ibindi bintu dukeneye, tugatangira abana ishuri, tugatanga na mituweli ku gihe.

Ibirayi bihinze mu murima. Duhingaga ibirayi kugira ngo tubirye, tukabijana no ku isoko kugira ngo tubone amafaranga go kugura ibindi byo kurya. Tukaguramo ibikoresho byo mu rugo tukiteza imbere. Bidufitiye akamaro guhinga, turahingaga cane inaha kandi ibirayi bireraga tukabonamo amafaranga menshi go kujana mu bindi bikorwa.

Ubuhinzi bw'inaha iwacu bwiganzaga guhingamo ibirayi. Tubiteraga umuti bigakura neza, byakwera tukabijana ku isoko tukabonamo amafaranga go gukoresha ibindi bikorwa byacu bitandukanye: nko kwishyurira abanyeshuri, ishuri no kwiteza imbere tukagura ibikoresho bindi dukeneye, tukubakana n'amazu tukubakisha n'amabati.

Ibihingwa ngandurarugo duhinga harimo amateke, insina, ibishyimbo, harimo n'imbuto zo kurya turya, bidufasha kurya indyo yuzuye n'indyo itera imbaraga, nk'amateke atera imbaraga.

Ubuhinzi bw'ibirayi n'ibitoki budufashaga kwihaza mu biribwa ,tukaja no kugurisha tukabonamo n'amafaranga tukaguramo ibyo dukeneye tukihaza mu biribwa, tukagurisha tukabonamo amafaranga tugatanga n'imisoro.

Igihingwa cy'urutoki ni igihingwa kiza cane kidufashaga kwihaza mu biribwa, tukanajana no ku isoko tukabonamo amafaranga. N'igihingwa cy'ibigori ni cyiza cyane. Ni ingandurarugo bikadufasha kweza tukagurisha tukabona amafaranga, natwe tubaga twariyeho bico ntabwo abana baburaga ibikoresho byo kujana ku ishuri.

Inaha iwacu duhingaga ibitoki tugahinga ibigori tugahinga ibihaza duhingaga ibigori harimo nurwo rutoki ibitoki byakwera tukabica tukabijana ku isoko tukabigurisha bityo bikadufasha kunganira urugo twihahira n'ibindi dukeneye nugwo musaruro twakugurisha nago tukabonamo agandi mafaranga.

Abahinzi iyo basaruye imyaka barongeraga bagahinga kugira ngo batere ikindi gihingwa kigezweho muri iyo sizoni. Nk'iyo havuyemo nk'ibigori bateragamo nk'ibirayi n'ibirayi byavamo bagateramo nk' ibishimbo guco guco, bakagenda babikurikiza buri sizoni uko igeze.

Mu guhinga duhingaga ibishimbo, tugahinga ibitoki ,tugahinga voka, tugahinga ibirayi tukeza tukihaza mu biribwa tugasagurira n'amasoko, tukaja kugurisha tukagura n'ibindi bintu dukeneye mu rugo bijanye n'ibyo guteka nk'umuceri n'akawunga.

Ibyatsi bimeraga mu mirima iyo tudaheruka kuzihingamo ukagira ngo ni mu mashamba, ariko kubera ko dusigaye turahinga cane cane nk'abantu batuye ku ishamba bahingaga ibirayi bikera cane ntago tukiraza imirima zacu kugira ngo zitazarara. Turazihingaga tugateramo ibirayi, tugatera ibigori, guco guco bikagenda birakurikirana.

Mu biti bitandukanye harimo isipure, hakabamo n'umusave, habagamo n'ibindi biti mu Rwanda, harimo n'ibitusi na nturuso bikaba bidufashaga mu kubigurisha. Iyo byakuze turabibarishaga, tugakuramo intebe tukazigurisha.

Mu mbuto duhingaga duhingagamo voka tukazihinga nko ku rugo, iyo zeze turazitaraga tukazirya zaba nyinshi tukazijana no ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere mu bindi dukeneye, zakera ziri nyinshi tukaja no kuzigurisha zikiri mbisi abaziguze bakazitara nabo bakazazicuruza zihiye bakazigurisha abatazigiraga.

Iwacu iyo duhinze nk'ibirayi cangwa se amasaka cangwa se ibigori, turabisaruraga tukaja kubigurisha ku isoko. Tubonagamo amafaranga, tukiteza imbere, tugakora ibindi bikorwa bitandukanye tubaga dukeneye nko gutangira abanyeshuri ishuri no gutanga mituweli, biradufashaga cane kubikora.

Duhingaga ibirayi kugira ngo turye, dusaguriraga n'amasoko ,tukajya kubigurisha. Abatabifite bazaga kubigura bakaduha ago mafaranga, natwe tukaja kugaguramo ibyo tudahingaga nk'umuceri, kawunga, tugahahamo n'ibitoki. Tujaga kugura na kawunga y'ubundi bwoko yitwa patejone, natwe tukarya neza kuko tubaga twarahinze.

Ibigori bihinze mu murima bidufashaga kurya ibigori byokeje, ibitetse byakuma tugasarura tugateka impungure, tukanateka na kawunga twagiye gushesha mu bigori twejeje, bityo tukagira kwihaza mu biribwa tukabijana no ku isoko.

Iyo umuhinzi ahinze ibigori bikera ajaga kureba ko byumye neza byacuritse amababi. Iyo asanze byaracuritse amababi, igikurikiyeho abagomba kubisarura. Iyo tubisaruye tubijanaga mu buhunikiro tukabibikamo, igihe cagera bakaza kubitugurira ku musaruro wacu, bakatugurira bataduhenze.

Duhingaga ibihingwa bitandukanye ino aha iwacu. Duhingaga inyanya, duhingaga karoti, intoryi nazo turazihingaga tugahinga n'imiteja. Abatarabihinze bacuruzaga bazaga kubirangurira ino aha iwacu, bakaja kubicururiza iwabo kugira ngo nab' iwabo nabo babihahire hafi, ntago bajaga guhahira kure mu masoko ga kure.

Inaha iwacu duhinga ibirayi. Iyo tugiye kubisarura dukuza intoki, kuko ubutaka bw'aho bworoshye. N'iyo duhinze ibitunguru bikera na byo tukabisarura na byo tukabikuza intoki, tukabiranguza abacuruza na bo bakabicuruza. Abatabifite na bo bajya kubigura mu isoko.

Iyo duhinze inyanya tujaga kuzishiraho ifumbire ry'imborera, kugira ngo zikure neza, twarangiza tujaga no gushiraho n'ifumbire ry'imvaruganda tukazitera n'umuti kugira ngo zere neza, zireraga tukaziranguza abacuruzi na bo bakaja kuzigurisha ku masoko, abatazifite baraziguraga.

Korora ihene ni byiza cane kuko bitumaga ugira amafumbire go gufumbira mu murima gwawe, ugahinga ibirayi, ugahinga ibishimbo ugafumbiza ifumbire ry'imborera, iyo wagize ihene nyinshi cangwa si intama nyinshi ugize ikibazo ujaga kugurishaho ukabonamo amafaranga ukugakoresha ibindi byo ukeneye.

Iwacu mubwanikiro , dufataga ibigori byacu iyo tumaze kubihungura , tukabisuka ahantu hamwe tukabitoranyamo imyanda zibaga zirimo, kugira ngo dukomeze tubibike neza tukabisanzagiza ku mahema ,tubaga twarabyubakiye ibintu bimeze nk'ibitanda tukaramburaho amahema tugashiraho umusaruro gwacu.

Ibicuruzwa bitandukanye biba mu masoko birimo:imyumbati ,ibikombe, inkweto, imyenda amasahani. Abantu bacuruza ibi bicuruzwa bitandukanye kugira ngo abaraza kugura buri wese agure ibyo ashaka kandi ibyo akeneye. Mu isoko habamo ibintu byinshi kuko nta muntu ujya kugura ngo abure icyo agura.

Urusenda ruri mu gihingwa gikunzwe mu maresitora, mu mahoteli bakundaga urusenda bakarutunganya bakakuramo urusenda rwinshi bakaza barugurisha abaturage bakarugurisha no mu mahoteli abaje muri hotel zabo bakarubahera Ubuntu.

Mu bihingwa by'imboga duhingagamo imboga zitandukanye, hari imboga za dodo, hari n'izindi mboga zibaga zimeze nk' amashu zitwa shufreri, hari n'izindi mboga zitandukanye nka pinari. Imboga ziri mu bihingwa bidufashaga kugira umubiri gwacu gumere neza, ziturindaga indwara, bityo gaba garimo intungamubiri nyinshi cane.

Ino iwacu turabahingaga cane cane imyumbati, ibijumba, iyo tubihinze, turabikuraga, tukabirya tukagurisha. Iyo tujyanye mu isoko abatabihingaga barazaga bakagura, bakaduha amafaranga, ago mafaranga baduhaye, tugajanaga natwe muri butike, tukaguramo nk'umuceri, kawunga n'ibindi byose dukeneye.

Ibigori biri mu bihingwa biganduraga urugo, turabihingaga bikera, tukotsa, tukareka bikuma neza tugasarura, tujaga kugurisha ku isoko tukabonamo amafaranga go gukora ibikorwa bitandukanye, twishuriraga abana amashuri, tugatanga na za mituweli, tukivuza neza, ntabwo turaranyaga mituweli tuyitangiraga ku gihe.

Ubuhinzi butumaga twihaza mu biribwa. Turahingaga, tugatera ibijumba, tugatera ibishyimbo, amasaka, ibigori, tugasagurira n'amasoko, tukaja kugurisha ibyo twejeje maze tukagura n'ibyo tudafite bijanye n'ibyo guteka ibyo kwifashisha mu buzima busanzwe, nko kugura imiceri, tukagura amavuta go guteka, tukagura ago kwisiga, n'amasabune.

Avoka zidufashaga ko imbuto. Mu mbuto habagamo imirire myiza, imbuto ziturindaga kurwaza bwaki abana kuko babaga bariye intungamubiri mu mbuto. Avoka tuziiteraga mu mirima, tukazisarura iyo zeze, tukaja kuzigurisha mu masoko, abacuruzi bakazigurisha abatazifite.

Uruja n'uruza rw'abantu bagiye gufata ingemwe z'imbuto zitandukanye, ipapaye, amatunda, amarakuja, amapera, bakaja guhinga iwabo imbuto nabo bakazazica barazirya, batabanje kuja mu isoko kuzigura.

Iwacu twororaga inkoko, inkokokazi, amasake. Inkokokazi ziteraga amagi, zikabya abana, zibyaye tugakura natwo tukaba dukuru, tukagurisha inkoko zavutse, cyangwa se tukazorora zose tukaza turagurisha amagi menshi tukagaranguza abacuruzi.

Ibigori bya nyakagori ni ibigori byeraga vuba, bibaga ari iby'umuhondo cangwa se ari iby'amabara gavanze. Iyo umuntu abihinze abazi ko bizera vuba, bitangaga ibindi bihingwa by'ibigori by'indobanure. Ibingibi byo byeraga vuba bigatuma abantu baganura mbere.

Inaha iwacu duhinga ibirayi, tugahingamo n'imbuto n'ibiti by'avoka bikadufasha kugira umusaruro utandukanye; turi gusarura ibirayi ducamo n' avoka, izo avoka tukazitara, tukazirya, tukanasagura nizo tujya kugurisha.

Imbuto ino aha iwacu kugira ngo tuzirye tugire ubuzima bwiza nk'amatunda, inanasi, ibinyomoro, ibisheke, iyo tubiriye tugiraga intungamubiri mu mubiri gwacu, tukabizigaburira n'abana na bo bakuraga neza iyo baziriye izo mbuto.

Iwacu duhingaga urusenda, urusenda rutugiriraga akamaro cane, turaruryaga natwe tukarwihaza mu biribwa, tukaja no kuyagurisha ku isoko. Baduhaga amafaranga tukaguramo ibindi bintu tubaga dukeneye nk'amasabune, umunyu, amavuta go guteka, amavuta go kurya n'ibindi bikoresho bitandukanye. Tururanguzaga abaruranguraga, bakarugurisha n'abandi.

Inkoko turazororaga kugira ngo zitere amagi, tugarye tugajane no ku isoko, ziranabyaraga zikagira imishwi, izo mishwi zakura nazo zigazabyara, tukagira inkoko nyinshi. Tukagurisha, tukagura mo n'ibindi dukeneye.

Umuhinzi uri mu murima gw'ibigori, afite isuka, ari no kuvugira kuri telefone. Ibigori bitumaga tubona amafaranga iyo tubijanye ku isoko tukabigurisha, tubonaga amafaranga yo kuguramo ibyo dukeneye, nk'amavuta yo kwisiga, ago guteka, tugakuramo amafaranga go kwishurira abana amashuri.

Ibihingwa by'imbuto harimo: ibinyomoro, inanasi, imineke, barakuja, indimu. Abantu batakwiza imbuto kugira ngo bagire imirire myiza, bunguke intungamubiri mu mubiri gwabo, bakagaburira n'abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza iyo baziriye.

Mu guhinga icyayi hakoreshwaga imashini za kijambere zigezweho zo gufuhirira icyayi. Kubera y'uko icyayi gihingwaga mu kibaya, iyo nta mazi gahari hifashishwaga imashini mu gufuhirira icyo cyayi kugira ngo cyere neza.

Inaha iwacu habaga ibitoki byitwaga inyamunyu, inyamunyu bazihingaga bakazirya. Tugira intungamubiri mu mubiri gwabo, abatazihingaga bajaga kuzigura ku isoko nabo bakazitekaga, tukihaza mu biribwa. Turya indyo yuzuye kugira ubuzima bwacu bumere neza.

Aba iwacu hari ahantu bahingaga mu bishanga umuceri ugo muceri iyo baguhinze baragusaruraga tukihaza mu biribwa. Ugusagutse bakaguranguza abacuruzi naboabakagucuruza abatagufite bakagura ubwo leta nayo abo bacuruzi batangaga imisoro kuri leta tukibaka ibikogwaremezo bitandukanye harimo amashuri n'amavuriro.

Ibirayi turabihingaga, tukabiteka, tukabijana no ku isoko, tukabigurisha hirya no hino abantu bakaza kugura, iyo abantu babiguze buri wese amafaranga go abonyemo aragajanaga akaguramo izindi mbuto akongera agatera akashingira akajana ku isoko akanabirya.

Habaga uruja n'uruza rw'abantu bari kuja mu isoko kugura ibyo kurya cane cane, isoko ryiganjemo ibiribwa nk'imyumbati n'ibijumba. Ugasanga abantu bari gucuruza, abandi bari kuja kugura bitewe n'ibyo bakeneye mu isoko bibaga birimo byose bitandukanye bakabibona.

Imbuto ni nziza mu buzima bwacu, turaziryaga zikakongerera intungamubiri amapera, amaronji, imyembe, amatunda turabiryaga rwose n'abana tukabaha bakaryaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Kubagara ibihingwa. Umugore ari kubagara ibihingwa bahingaga bijanye n'imboga, intoryi, karoti, ibitunguru.

Amajeri gari mu gihingwa duhingaga inaha iwacu, turagasoromaga tukagateka yabaga garyoshye kakavamo n'intungamubiri, noneho iyo umuntu yagasoromye akagateka neza, kararyohaga cane, tukanagagurisha tukabonamo amafaranga tukiteza imbere.

Ibihingwa by'ingandurarugo : ibijumba ,amateke, imyumbati bidufashaga kurya tukihaza mu biribwa tugasagurira n'amasoko ntitugire inzara kuko tuba twarabyihingiye tukaja kugurisha tukagura n'ibindi tudafite.

Uruja n'uruza rw'abantu batandukanye bari kuja guhaha mu isoko. Isoko ryiganjemo ibiribwa harimo:ibijumba, imyumbati, ibishimbo n'amateke abantu barabihahaga bakaja kubiteka. Abaje kubicuruza na bo babonagamo amafaranga abafasha kwiteza imbere, mu bindi bikorwa baba bakeneye.

Igihingwa cy'icyayi ni cyiza cane, kuko gifashaga abahinzi mu kwiteza imbere. N'abajaga kubakorera nabo biteza imbere, bari kubona ago mafaranga go bakoreye. Icyayi ni kiza cane turakinywaga, tukanakigurisha, tukajyana no mu mahanga bakaduha amafaranga g'amadorari.

Tugiraga n'amapepinyeri dutunganyirizagamo imbuto: amatunda, ibinyomoro, amapapayi, za marakuca, Aho hantu batunganyirizaga izo mbuto, uyu muturage iyo izo mbuto bazitunganyije zimaze kugera igihe cyo guterwa, uyu muturage aragendaga bakamuha imbuto akaja gutera iwe kugira ngo na we yihaze ku ndyo yuzuye.

Imbuto turazijyaga, tukazigaburira n'abana kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Tuzijanaga ku isoko, tugakuramo n'ibindi bikoresho dukeneye. Iyo tuzigurishije dukuramo amafaranga yo kurihira abana ku ishuri. Hari imbuto zitandukanye duhingaga nka marakuja, imyembe amatunda n'izindi.

Ubuhinzi bwacu duhingaga ibihingwa bitandukanye nk'ibinyamisogwe duhingaga ibishimbo, tugahinga imiteja, tugahinga soya, twakeza tukajana ku isoko natwe twariye tukaguramo n'ibindi dukeneye nk'ibihingwa bibaga bidahingwaga inaha iwacu mu caro, nk' umuceri ntago tuguhingaga tujaga kugugura iyo twasaruye twagurisha ibyo twejeje.

Imisozi ziteyeho ibiti zihinzemo n'ibihingwa, abaturage batuye impande aho ng'aho no mu gishanga hahinzemo imyaka n' ibijumba, hakabamo ibirayi, hakabaho n'imisozi ziriho ibiti. Ibiti bifashaga imyaka kugira ngo zikure neza.

Mu guhinga kijambere duhingaga ku mironko tugahinga tugasigamo intera, nko guhinga nk'ibishimbo cyangwa ibirayi duhingaga kijambere tugatera ku mironko, kugira ngo imyaka zije zirera neza nta kibazo kibayemo tukanazifumbira.

Habagaho inyama zitandukanye, habagaha akabenzi, inyama z'ingurube ni zo bitaga akabenzi, hakabaho n'inyama z'inkoko tujaga kugura inyama uguraraga izo ushaka, habagabo n'inyama z'inka, uhitagamo izo ushaka ukazigura ariko abaveterineri babaga bazipimye ngo barebe ko zujuje ubuziranenge.

Inaha iwacu duhingaga kijambere, babaga baraciye amaterasi gindinganire mu mirima yacu, bagateraho n'ibiti kugira ngo bidufatire ubutaka, bureke gutemba. Bityo imyaka zeraga neza, n'ifumbire dushizemo rigumagamo. Hakera cane, ntago bitembaga, dusaruraga neza umusaruro guhagije.

Imyembe ziri mu bwoko bw'imbuto. Turaziryaga tukagira ubuzima bwiza, iyo twaziteye n'abataraziteye bajaga kuzigura mu isoko bakazirya, bakazigurira n'abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza, n'abazigurishije bakabona amafaranga bagatanga n'imisoro ku Gihugu.

Inaha iwacu twororaga inka, tuzororeraga mu rwuri, zibaga ari inka nyinshi iyo ziri mu rwuri, abantu bose bafite izo nka bakaza kuzireba. Iyo ubwatsi bubonetse mu rugo bwo kwahira, tuzijanaga mu biraro, bwakongera kubura tukazisubiza mu rwuri, zikaba ziri hamwe. Zigiraga umukamo gw'amata, turakamaga, tukanywa, tukanagagurisha.

Ibishimbo bitari byera tujaga gusoromamo intonore tugateka ibishimbo bibisi izo ntonore zitwa ibishimbo bibisi tukagereka ku birarayi ,tukagereka ku bijumba, ibishimbo bijaga kuma turyaga intonore tutarabuze icyo turya nta kibazo tugiraga, kuko ibyo bishimbo bibaga byeze bidufashaga mu kwihaza mu biribwa.

Inanasi ziteye mu murima n'abaturage bari kuzikorera. Inanasi ni imbuto turyaga zikatwongere intungamubiri mu murima, abakozi bari kuzikorera nabo nyir'izi nanasi agomba kubaha amafaranga yo kuba bamukoreye kugira ngo nabo bagire ibindi bitezamo imbere.

Ibirayi by'umutuku. Biri mu mufuka . Habagaho ibirayi by'umutuku, ibirayi bya kinigi na peko. Abahinzi bahinga imbuto zitandukanye z'ibirayi, bakarya bagasagurira n'amasoko bakabijana ku isoko bakabiranguza abatabifite, bakabicuruza, bakabigurisha abadahingaga.

Ibijumba iyo bihinze mu butaka byereraga nk' amezi atatu cangwa ane, bitewe n'imbuto iyo ariyo ibijumba ku bihinga bituma twihaza mubiribwa no kurya ibyongera ibitera imbaraga tukaja no kubigurisha, tukabona amafaranga yo kwiteza imbere tukagura ibindi dukeneye.

Duhingaga ibihingwa byinshi bitandukanye cane cane ibirayi kuko byeraga muri zone z'amakoro abahinzi baja gusura imyaka zabo bagiye kureba niba bazatera umuti cangwa ugo bateye niba gwaragize akamaro basanga imyaka y'ibishibirayi byarapfuye bakongera bagatera ugundi muti.

Uruja n'uruza rw'abantu, bajaga mu isoko guhaha, hari isoko riba ryiganjemo ibicuruzwa by'imbuto, nk'inanasi, imyembe, imineke, avoka, amatunda n'ibitunguru, izo mbuto zidufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugaburiraga abana, bakajya izo ntungamubiri, natwe turyaga izo mbuto kugira ngo tugire intungamubiri.

Imbuto duhingaga duhingagamo imboga, tugahingamo nk'amashu, tugahinga n'inyanya, tugahingamo intoryi. Iyo tubisaruye tubijanaga ku isoko, tukagurisha tukabona amafaranga tukihaza no mu biribwa, kuko tubaga natwe twarabiriye tugasigira n'abandi baturanyi, tukabaha tukanagurisha tukabonamo n'agabandi mafaranga.

Iyo bari kunyura mu mirima ihinzemo imyaka imeze neza, barahagarara bakayitangarira kuberako iyo myaka iba yarakuze neza, ntabwo abantu bareba ngo bavuge ngo aha ngaha hararumbye. Ni ikigaragazako haba hera.

Mu isuko hababagamo ubwoko bw'imboga butandukanye n'imbuto harimo nka nk'ibinyomoro, ibipapayi, amaronji, wotameloni,... izo mbuto tujaga mu isoko tukazigura tukazirya zikatwongere intungamubiri mu mubiri gwacu tukazigabira n'abana bacu kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Duhingaga amateke kugira ngo tugarye; amateke gari mu bihinga biteraga imbaraga ,turagajyaga tukagagurisha tukabonamo amafaranga tukagajana mu bindi bikorwa ,tugakora buzinesi, cyangwa se tukanahinga twakeza agandi nago tukagagurisha tukabona amafaranga tukiteza imbere.

Ibihingwa by'ibigori tubihingaga kugira ngo tubone umusaruro, havemo ibyo tuzaja turarya, nibisaguka tubijane ku isoko tugure n'ibindi bintu byo dukeneye, kugira ngo twiteze imbere ubutaha tuzabone amafaranga yo kugura izindi mbuto zo guhinga.

Urusede ruri mu gihingwa gituma tujya kugurisha tukabonamo amafaranga, habaho urusenda rw'umutuku hakaba urusenda rw'umuhondo, hakabaho uruseda rw'icyatsi. Insenda zikunda gusa na pavuro, habaho pavuro z'icyatsi, hakabaho na pavuro z'umutuku, hakabaho na pavuro z'umuhondo.

Igihingwa cy'ubunyobwa kidufashaga mu guteka indyo yuzuye. kidufashaga mukuja kugurisha ku isoko ,tukaguramo n'ibindi biribwa dukeneye kurya tudafite tukiteza imbere.

Bwacu bwo mu Rwanda turahingaga, Imyaka ziheraga neza. N'iyo duhinze ibigori bireraga cane, tukabisarura aruko byacuramye amababi. Iyo bicuramye amababi ni bwo bibaga byumye neza, bibaga ari iby' umweru ntabwo bifurikankaga cyangwa se ngo bibore, bibaga byareze neza kandi byumye neza.

Ibishimbo tubifashisha mu guteka, tukarya indyo yuzuye irimo intungamubiri, tukagurisha tukabona mo n'amafaranga tujaga ku isoko tukagura ibindi tudafite, bikadufasha kwiteza imbere tukihaza mu biribwa.

Ibishimbo by'umukara, soya, ibishimbo binini, n'ibishimbo bitoya by'umutuku. Ubwoko butandukanye bw'ibishimbo bugaragaraga aha ng'aha ni bwo bwifashishwaga n'abaturage mu guhinga. Duhingaga ibishimbo bigufi, hakabaho n'ibishimbo birebire dushingiriraga bitandukanye.

Mu Rwanda duhingaga ibintu bitandukanye, duhingaga nk'ibihaza ibihaza by'umuhondo bigiraga inzuzi, izo nzuzi turaziteraga zamara gu kumere zikazakura hakazamo ibihaza, iyo byeze byeraga ari umuhondo tukabica tukabiteka tukazongera tugatera n'izindi nzuzi n'ibindi bihaza bikaza.

Igihingwa cya soya ni cyiza cyane kuko kidufasha mu gutegure indyo yuzuye. Kikaduha intungamubiri. Duteka n'igikoma tugashyiramo soya, tukayiteka no mu biryo tukarya. Soya ni igihingwa cyiza cyane, kuko gituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Ibyo bihingwa byacu tubitera ku murongo, kugira ngo dusigazemo umwanya urimo itaka, tuzajya dufata turi kuhira ibyo bihingwa, nk'urugero nk'iyo duhinze soya, ibishyimbo, tugenda dufata itaka ryo hirya no hino turi kuhira, tukarishyira kuri soya.

Ibishyimbo bivanze mo umutuku byiganjemo umweru, babyitaga ibishimba by'ingemane. Ibishyimbo by'ingemane byera vuba ntibyera kimwe n'ibindi bishyimbo bisanzwe, byo byera vuba kandi no kubiteka bishya vuba.

Dukoreshaga amagare, iyo tugiye gusarura imyakaya mu mirima. Dufataga imigozi tugashira ho imyaka, tugahambira, twarangiza guhambira tugashira ku igare, tukazirika ngo bikomere, tugatwara. Tukagenda tutavunitse, ntabwo twikoreraga ubungubu.

Ibinyamisorwe duhinga ino iwacu duhingamo soya, tugahingamo n'ubunyobwa kugira twiteze imbere, turasarura tukaryaho natwe tukajya no kugurisha, amafaranga baduhaye tukayakoresha mu kwiteza imbere tuguramo ibindi bintu byo guhaha nk'ibirayi tutarabihinze n'ibishimbo tutabifite twagurishije dufite amafaranga.

Abahinzi iyo bejeje umusaruro gwabo gw'ibigori. Bakagushira mu buhunikero rusange bituma ugo musaruro gumera neza, ntigubashe kwangirika kuko guba guri ahantu hizewe, hatwikiriye kandi hageraga n'akazuba.

Igihingwa k'ibihwagari ni ciza cane turagihingaga kikagira ururabyo cyamara kugira urwo rurabyo kikera kikazana imbuto z'umukara, izo mbuto nizo dusaruraga turazihunguraga twarangiza tukazisekura iyo fu tukaba turayiteka mu mboga ibaga iryoshe cane, ni byiza cane kurya igihingwa k'igihwagari kuberako kigiraga intungamubiri.

Ibihingwa bijanye n'ingengabukungu harimo ibihwagari. Ibihwagari birayangaga bikagira ururabyo rw'umuhondo, ururabyo iyo ruvuyeho hazagamo imbuto. Izo mbuto akaba ari zo basarura. Hano hahinze n'izindi mbuto zitandukanye harimo n'ibitunguru.

Imbuto z'ibigori by'umuhondo babikoragamo patejone babitekagamo igikoma kikaba kiryoshe gisa neza babijanaga no mu mahanga bakabigura kuko abazungu na bo barabikundaga kugira ngo babikoremo patejone.

Igingwa cy'amasaka ni gihingwa kiza cane, kuko gitumaga dushigisha ikigage, tugashigisha umusururu gwitwa ubushera, tukanwa, tukazindukiraho n'inshuti n'abavandimwe, tukaja kugurisha n'agandi ku isoko, tukabona amafaranga, tukazongera tugahinga agandi masaka kugira ngo tuzongere twiteze imbere, duhinge n'ibindi bihingwa.

Ibihwagari biri mu bihingwa duhinga bigiraga indabyo， byamara kugira indabyo bikazamo imbuto arizo izi ngizi ziri mu gisorori tukazigurisha tukabonamo amafaranga.

Igihingwa cy'ubunyobwa kidufasha mu mirire myiza tukabukaranga, tukajya kububeteshamo ifu tukazajya turabuteka mu mboga mu biryo, cyangwa se tukabukaranga tukabuhekenya na byo umuntu bimufasha mu mubiri we, kuko ari intungamubiri aba ari kurya.

Tugiraga ubwoko bwinshi bw'ibishimbo nk'ibishimbo bigufi n'iby'imishingiriro, ibishimbo bigufi byo ntabwo ba bishingiriraga byereraga hasi naho ibishimbo by'imishingiriro birakuraga bikazamuka bikagira uruyange, bikagira imiteja, bikera biri hejuru ku biti tubisaruraga turanduye ibiti tukabisosoramo.

Iyo duhinze umusaruro gw'ibigori gukera, hari ubuhunikiro leta yubatse, tujanagayo umusaruro gwacu. Buri muhinzi afite aho aba agomba guhunika umusaruro gwe kugira ngo gurusheho kumererwa neza. Ntigunyagirwaga nta n'inundwe zizagamo kuko aho hantu habaga harateguwe duhunikaga imyakaka zo duhingaga.

Abahinzi mu guhunika imyaka yabo kugira ngo zitangirika hifashishwaga ubuhunikero rusange, bakajanayo ibigori byabo bejeje. Iyo babisaruye buri muhinzi akajana ibye akabihunikayo, bigafasha abahinzi kubika neza umusaruro gwabo gutangiritse.

Ubwoko bwinshi bw'ibishimbo bitandukanye, habagaho iby'umweru, habagaho iby'umutuku, habagabo n'ibya kaki. Tugiraga n'ubwoko bwa soya, soya nazo zibaga zigiye gutwara nk'ibishimbo ariko soya ni ukuzinywa mu gikoma, tukanazishesha, tukaziteka n'ifu mu biryo. Ibyo bishimbo byo rero turabifataga, tukabiteka byamara gusha, tukaza turabitekana n'imboga guco guco cyangwa tukabivanga n'ibirayi.

Soya ni igihingwa duhingaga hano mu Rwanda. Tugihingaga, tukagurisha, tukateka igikoma, tukanywa igikoma kirimo soya. Urumva ko zibaga ari intungamubiri, abana bakanywa igikoma cyiza, natwe tugateka n'imboga tugashiramo na soya.

Inaha iwacu tugiraga ibihingwa by'ibihaza. Habagaho ibihaza by'umuhondo bigiraga inzuzi. Iyo byeze, dukuragamo izo nzuzi tukazanika ku izuba, nuko tukazongera tukazihinga, tukongera tugakuramo ibihaza. Turabiryaga tukajana no ku isoko, bitugiriraga akamaro bibagamo intungamubiri.

Guhinga bitugiriraga akamaro. Tugahinga kijambere tugateresha ifumbire, ry'imborera tugakoresha n' imvaruganda. Dukoreshaga ifumbire ry'imvaruganda, n'iry'inka imborera. Tugahinga duteraga imyaka zigashisha zigera, tukunguka tukarya tugasagurira n' amasoko.

Ibishimbo iyo babisaruye mu mvura birameraga, bikamera, ukabyanika, bikamera nabi, bigasa nabi, kubera yuko byanyagiwe, babisaruye mu mvura; cangwa n'amasaka iyo baginitse bakaganika nago gagiraga imimero.

Umuco wacu duhingaga ibishimbo by'imishingiriro, tugahinga n'ibishimbo bigufi, tugahinga n'imiteja. Ibishimbo bigufi iyo byeze byeraga hasi tukabisarurira hasi, naho ibishimbo by'imishingiriro byo turashingiriraga n'urubingo n'ibiti bisanzwe by'intusi, bigatondagira ku giti, bikazaherera, tukabisaruriraho.

Umusaruro gw'ibigori tubaga twejeje tubijanaga ku bwanikiro tukabyanika tukabihunika ku bwanikiro, umuntu wese wahinze niyo ajaga kubihunika, kugira ngo bibe bifite umutekano kandi bibaga bifite ubuhunikiro bwiza butanyagirwaga kuko....

Iyo abahinzi bahinga soya, iyo bazejeje barazihura, bamara kuzihura bakazanika, barangiza kuzanika bakazigosora bakazishyira mu mifuka, bakazibika, bashaka bakazibeteshamo ifu, bakanywamo igikoma, bagashirira abantu mu bigikoma, bagashyiramo gake.

Soya turazihingaga， tukazinywamo igikoma， tukazijana no ku isoko， amafaranga go baduhaye tukagaguramo n'ibindi bintu dukeneye， tukaguramo n'ibyo guteza imbere urugo，harimo ibikoresho byo mu rugo by'isuku， amasafuriya yo gutekamo，tugashigishamo n'igikoma tukakinywa.

Utugurube tukiri utwana dutoya hakabamo n'ingurube nini ziba mu biraro, abantu bakazahirira zikarira mu biraro, iyo zigize ikibazo abaziguze bajya kureba veterineri akaza akaziha imiti ,zikongera zikaba nzima zigakura neza zikazabungukira.

Ubuvuzi bw'amatungo. Iyo amatungo garwaye hari abaveterineri bashinzwe kugavura kugira ngo rero gatazaja garakunda kurwara， turasabwa kuzajya tubwira abaveterineri igihe turi kubona nk'amatungo gacu kagize ikibazo nk'inka， intama， ihene， ingurube n'imbwa.

Ino aha iwacu twororaga inka kijambere tukaziteza inshinge, tukaziteza n'intanga, tukabigira umukamo tugakama inka tukanywa amata, tukagagurisha. Tuzahiriraga mu biraro zibaga mu biraro, tukaja kwahira ubwatsi tukaza tukazigaburira. Abaveterineri icyo bashinzwe batuzaniraga imiti bagatera inka zacu intanga n'iyo zagize ikibazo barazivuraga.

Inka zijyaga ubwatsi, muri ubwo bwatsi inka zijyaga habagamo urubingo, hakabamo umucaca, ziwuriraga mu kiraro cangwa se bakazijana mu rwuri, zikarira mu rwuri ziri kurya kugira ngo zibeho neza zongere umusaruro n'umukamo.

Ihene turaziragiraga tukazihagisha, tukazizirika cangwa se tukazahirira ubwatsi zikarira mu rugo, zikabona uko zibyara utundi twana, na two tukazakura tukatugurisha cangwa se utwo twana, ntitutugurishe tukatwihorera na two tukazabyara.

Korora inka ino aha iwacu hari kororera mu biraro, hari no kurorera mu rwuri, habaga ahantu bafashe bakahazitirira, harimo nk'umucaca mwinshi, inka nyinshi zikaza zirabamo zifite n'umushumba uzigaburiraga akazitaho, ubwo ngubwo iyo habaye amapfa ni ukujana inka mu rwuri zikabayo, haba hari ubwatsi inka zikarira mu rugo.

Inaha iwacu amatungo tugororeraga mu biraro. Muri ago matungo twaroraga harimo ingurube, hakabamo intama, habagamo n'inka. Kororera mu kiraro ni byiza cane kuko ntago tukija kuragira ku gasozi, ntago byemewe kubera Leta yabitubujije, turabyubahirizaga kugira turusheho gusigasira umuco wo kugira ishuku mu gihugu cyacu.

Iyo tworoye nk'inka, ingurube, intama, ihene, tugira abaveterineri baza gutera amatungo yacu inshinge zo kugira ngo zikure neza, iyo yarwaye barayavura, bakayakingira, bayatera izo nshinge, kugira ngo abeho neza, akure neza.

Twororaga amatungo atandukanye, harimo intama, ihene, ingurube, inka. Iyo arwaye tubwira baveterineri bakaza bakayadusuzumira, bakayatera imiti kugira ngo akire neza bakareba ko arisha neza, yagira ikibazo tukajya kubibabwira bakazana iyindi miti bakazitera kugira amatungo yacu amererwe neza . Twahirira mu biraro, akarira mu biraro, ntabwo turagira ku gasozi.

Abantu bavuraga amatungo ino aha iwacu mu Rwanda bagira ahantu bakoreraga. Bubakaga amazu bakazaja baravuriramo amatungo g'abaturage nk'ingurube, imbwa, inka, ihene. Tujaga no kugakingiza bakagakingira bakareba ko nta bibazo gafite. Ni byiza kuko twitezaga imbere mu korora tukagurisha kandi tukabaho neza.

Iriya i wacu tugiraga inzuri zo kuragiramo inka, turaziragiraga igihe mu rugo ubwatsi bwabuze, izo nka zacu zibaga zimeze neza, zikagira umukamo guhagije, abashumba bazitiraga mu rwuri, urwuri rwashiramo ubwatsi, no mu rugo ubwatsi twahinze bwareze nk'urubingo nirwo duhingaga tukagabura inka, tukazigarura mu biraro, zikarishiriza mu biraro.

Ingurube kuzorora bigiraga akamaro kuko zitubyariraga amafaranga. Zikaduha ifumbire, turazigurishaga iyo zabyaye tukabonamo amafaranga, tugakoresha n'ibindi byo dukeneye gukora mu rugo. Tukagurisha utugurube twavutse, cangwa se tukatworora natwo tukazakura, natwo tukabyara utundi tugurube.

Hano wacu twororaga inka izo gukama ,zikabyara tukazikama, tukorora n'ibimasa; iyo inka zibaye nyinshi tujaga kuzigurisha bakaduha amafaranga tukongera tukagura izindi nka tukazorora cangwa se tukaguramo ibindi tubaga dukeneye.

Inyoni z' ingeri nyinshi tugira inuma, tugira imisambi, tugira inyoni zitandukanye, z' amoko menshi harimo n' inceceberezi; izo nyoni barazizana mu mashamba no mu nkengero z' ibishanga zikaba mu bishanga, kugira ngo abaturage babyiteho, bamara kuzitaho abakerarugendo b' abazungu bakaza kuzisura bagadusigira amadovize.

Hano iwacu haba ibintu bitandukanye, izo nyoni zituma ba mukerarugendo baza kuzisura bakadusigira amadovize. Amadovize agirira akamaro igihugu cyacu natwe bitugirira akamaro, kuko Leta ihita yubaka ibitaro, ikubaka amashuri, abana bigiramo, ikubaka amasoko tujya kuremeramo isoko, igihugu cyacu kigatera imbere.

Inyoni zidufashaga kubanguriza imyaka nk'ibigori, ibishyimbo, amasaka, ugasanga hajemo ubwoko utahinze kubera habayeho kubangurirwa.

Ubwoko bw'inyoni ni bwinshi. Habagaho inyoni z'inshenshabirizi, hakabaho inyoni zitwa imfundi, hakabaho inyoni zitwa inyamanza. Izo nyoni zose zigiraga umwihariko kuko abakerarugendo bazaga bagasura ibinyaburanga bigize u Rwanda, bakadusigira amadolari n'amadevize, u Rwanda rwacu rugatera imbere.

Mu rwanda tugiraga ibisimba byinshi, bikuraga ba mukerarugendo, bakaduha amadovizi, no mu biyaga bibagamo, mu mashamba bibagamo, mu birunga bibagamo, bidufashaga kubona amadovize, igihugu kigatera imbere, kikubaka inyubako zigezweho, iz'ibitaro, iz'amashuri, tugatembe.

Imisambi zitumaga ba mukerarugendo baza bakaduha amadevize, igihugu kikiteza imbere n'abaturage barimo bagatera imbere kuko babonaga akazi ko kubungabunga izo misambi n'abandi baturiye ibishanga barazirindaga. Ibishanga bakirinda gukeramo ibyatsi, kugira ngo izo misambi zikomeze zibeho neza abakerarugendo baza kuzisura baziduhere n'amadevize.

Ubwoko bw'inyoni bwitwaye nk'inkoko. Bwo buri mu nyoni zo bazanye mu Rwanda kugira ngo abazungu baze baraza baduhe amadovize twiteze imbere, bityo u Rwanda rwacu, turusheho gutera imbere rwubaka amashuri, imihanda zigezweho, gubakaga n'ibiraro bikomeye kugira ngo abaturage batagenda nabi mu muhanda.

Inyamanswa zikunda kujya mu twatsi, nk'inyoni, ibigona, imisambi, bikundaga kujya mutwatsi, bamukerarugendo baza gusura ibinyaburanga byo mu gihugu cyacu, bakadusigira amadovize.

Mu Rwanda tugiramo ubwoko bw'inyoni, hakaba n'inyoni n'incecebereze zikurura ba mukerarugendo, iyo baje gusura izo nyoni badusigira amadevize, Igihugu cyacu ki kikubaka ibindi bikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, ibitaro.

Ibigona biri mu bwoko bw'inyoni bitumaga tubona ba mukerarugendo bakaza kubisura; ibigona na byo biri mu bibanguriraga imyaka zacu kugira ngo zere neza zikagenda zikabibangurira zikabiha kandi amabara atandukanye.

Iwacu mu mashamba no mu mikenke habagamo ibisimba bitandukanye ,abakerarugendo barazaga bakaduha amadovize iyo baje gusura ibyo bisimba,u Rwanda narwo igihugu kikadusaba gusigasira ibyo bisimba ntitubyice tukabirinda nitubyangirize kugira ngo abazungu baze baraza kubisura badusigire amadovise duteze igihugu cyacu imbere.

Imisambi zikundaga kuba ahantu mu kibaya cyane cyane nk' ahantu hari ibishanga. Zikundaga kabamo hakabamo n'ubundi bwoko bw'inyoni zitandukanye bikabamo zose, ni ibidukikije bikaduha n'abakerarugendo bazaga gusura utunyamaswa two mu Rwanda.

Mu mashamba gacu tugiragamo ibisimba, ibyo bisimba abakerarugendo bazaga kubisura, bakadusugira amadovize, u Rwanda rwacu rukiteza imbere rwubaka amashuri ibitaro n'imihanda, u Rwanda rwacu rugatengamara abakerarugendo b'abazungu bakaza kudusura.

Amashamba gacu hororokeragamo: inyamaswa，amasazi， inyoni zikaja mu biti zikarikamo， zikabyariramo udusimba twinshi dutandukanye.

Inyoni zitumaga tubona ba mukerarugendo mu gihugu, bakatuzanira amadevize natwe twitezaga imbere kuko turindaga ibishanga, tukabungabunga n'izo nyoni kugira ngo hatagira abazihungabanya, Leta ikadushimira.

Mu Rwanda iwacu tugiraga ubwoko bw'inyoni zitandukanye, habagaho inyoni z'insheceberezi ni izo bazanye bashira mu ibishanga. Hari abantu bashinzwe kuzirinda kugira ngo zitangirika. Noneho abazungu baza kuzisura bakadusigira amadovize. Habagaho n'ubundi bwoko bw'inyoni nk'imisambi, inuma n'izindi zitandukanye, zidufashaga no kubangurira imyaka.

Inyoni yaguye ku giti ituma abakerarugendo baza, zigatuma imyaka yera neza kubera ko zibangurira imyaka. Zishobora kubangurira nk'ibigori, amasaka n'ibishyimbo.

Mu Rwanda iwacu inaha habagaho ibisimba bitandukanye ibyo bisimba bitukururaga ba mukerarugendo bagatanga amadovize ku gihugu, igihugu kigatera imbere natwe abaturage tugatera imbere, kugira ngo birusheho kugenda neza dusabwaga gusigasira amashamba g'igihugu tugasigasira ibisimba bibagamo kugira ngo bitangirika, abakerarugendo batazaza bakabura ibyo basura.

Ubwoko bw'ibiguruka bubaga bwinshi, habagamo inyoni z'amoko gose, izo noni zitumaga ba mukerarugendo baza kuzisura, iyo ba mukerarugendo baje basigiraga igihugu amadevize, ago madevize gagatuma u Rwanda rutera imbere, mu bijyanye no kubaka ibikorwa bigezweho, bakubaka nk'amashuri, amavuriro gakaba hafi y'abaturage n'amashuri abana bakaja kwiga hafi.

Iwacu tugiramo ubwoko bw'ibisimba bitandukanye, abakerarugendo baza gusura. Tugiramo utunyamasa twinshi. Habamo imbwa z'inyeshyamba, hakabamo inturu, habamo n'ingagi, hakabamo n'inkende. Iyo abanyamahanga baje kuzisura badusigira amadovize mu Gihugu cyacu.

Ino aha iwacu mu Rwanda tugiraga ubwoko butandukanye bw'inyoni. Harimo inuma, hakabamo n'inyoni zitwa incenceberezi. Izo nyoni z' incenceberezi, ni abayobozi bazizanye bazishira mu bishanga, kugira ngo abaturage tuze turazirinda. Abakerarugendo bazaga kuzisura. Tugiraga n'inyoni zitwa inuma, tukagira n'inyamanza mu Rwanda.

Ibiguruka harimo imisambi, hakabamo n'inyoni. Iyo bigurutse biza kubangurira imyaka, bigatuma imyaka zera neza. Tugahinga, tukeza ,tukagurisha, tukazana ku isoko, tugakuramo n'ibindi bintu dukeneye. Ibyatsi bituma tugaburira amatungo tukarwanya n'isuri.

Ibisimba byo mu ishamba bituzaniraga ba mukerarugendo bagatanga amadovize, amadovize gagateza u Rwanda rwacu imbere, tugagomeza kubungabunga ibidukikije kugira ngo n'abandi bakerarugendo bazaze gusura ibinyama ibisimba birimo n'izindi nyamaswa zose zibaga mu mashamba gacu.